Ikigo cy'amashuri cyubatse neza kandi kigezweho, gikorotiriye gifite uruzitiro hari n'ibigega kandi gifite imbuga y'imodoka zishobora guparikamo.

Ikigo cy'amashuri, hari amashuri meza yubatswe neza kandi agezweho hariho n'ikigega, gifata amazi avuye ku mabati kugira ngo birinde isuri.

Abanyeshuri bakoze garaduwesheni bambaye amakanzu y'ubururu n'utuntu mu ijosi tw'umutuku ndetse bashyize ingofero zabo hejuru z'ubururu barishimye cyane kuko barangije.